Ndikubona ifoto ya minisitiri Agathe Uwiringiyimana, yicaye ahantu hari utwatsi n'ibiti.

Ndi kubona icyapa kerekana ko imbere hari umuhanda unyerera.

Ndi kubona icyapa n'ibindi ibyapa bamamarizaho, imbere yaho hari amazu, hari ibiti, hari imodoka, hari n'abantu.